Icyapa cyerekana umusaza ukuze bigaragara ko ari kumwe n'abana be yishimye cyane, ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Icyapa kiriho umusore ndetse n'umukobwa bigaragara ko bishimye, bikaba biranga ko bari kwamamaza ibyo bakora, hejuru hakagenda hariho utuntu tumeze nk'amatara, ikirere hejuru kikaba gifite ibicu by'umweru ndetse n'ishusho isa n'ubururu.

Imodoka nziza cyane, bikaba bigaragara ko hari abagabo babiri bafite icyapa bari kuranga ibikorerwa aho ngaho, bikaba bigaragara ko izuba riri kuva, hakurya hakagaragaramo n'amazu atuwemo n'abantu, ibicu bikaba byiganje by'umweru.

Igaraje rishinjzwe gucuruza imodoka aho bigaragara ko hari abagabo babiri bari imbere y'imodoka bafite icyapa cyanditseho Akageramoto, iyo modoka nini bikaba bigaragara ko ariyo bari kwamamaza hapfaga hagaragara ibiti bimwe bikoze cyane ndetse n'ipironi rivaho insinga z'amashanyarazi mu gace kamaziinmo kandi ikirere kikaba gifite ubururu.

Inzu bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko ari abantu bicaye mu nzu mo imbere, ndetse abandi bakaba bari inyuma bari kwaka serivisi zitangirwa muri iyo nzu, ukaba ubona ko aho hantu hakorerwa serivisi zijyanye n'amafaranga.

Ikusanyirizo ry'amata aho bigaragara ko hari abakobwa umwe ari kubuganiza amata mu tujere, ndetse hakaba ari n'undi mu idirishya uri kureba ibyo akora, hakurya bikagaragara ko hari izindi nzu zitangirwamo serivise zitandukanye.

Ibirango bya sosiyete ikorera mu Rwanda bita MTN mu ndimi z'amahanga, bikaba bisa umweru ndetse n'umukara n'umuhondo, bakaba bari kwamamaza bari kwerekana n'uburyo wakoresha serivisi zayo.

Igipapuro cyifashishwa mu bucuruzi kikaba cyerekana ko ari icyangombwa cyatanzwe n'ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro, hakagaragaraho uwatanze amafaranga n'umunsi yayatanze hakagaragaraho n'umukono we.

Amafaranga menshi cyane atandukanye, bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda, akaba ariho ifoto y'umukuru w'igihugu aturukamo, bikaba bigaragara ko ari umuntu uri kuyabara ayafatiye mu kiganza, bigaragara ko aho hantu hakorerwa serivisi z'ivungishwa ry'amafaranga.

Umuntu uri kubara amafaranga menshi cyane atandukanye, ayo mafaranga bikaba bigaragara ko atari amanyarwanda, bikaba bigaragara ko ari umuntu uri kuyabitsa ahantu, bikaba bigaragara ko ari ivunjishwa ry'amafaranga rihakorerwa.

Inzu bigaragara ko itangirwamo serivise zitandukanye, hakaba hari kugaragaramo abantu baje kwaka serivisi zihatangirwa, aho hantu bigaragara ko hakorerwa ivunjishwa ry'amafaranga, aribyo mu ndimi z'amahanga bita foregisi biro andi karensi egisicenge kiyosike.

Umudamu ndetse n'umugabo bigaragara ko bari mu nzu baje kwaka serivisi zitangirwamo. Kuri buri cyumba hakaba hambere ari kuri rimwe, aha akabiri ari kuri kabiri, hakaba harimo n'amatara ariko kwaka umweru. Bigaragara ko aho hantu baje kuhaka serivise z'ubwishingizi mu makampani.

Inzu nini bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye. Aho ubona ko hari ameza ariho icupa ririmo amazi ndetse na mudasobwa. Hakaba hari intebe z'imikara zo kwicarwamo. Aho hantu bikaba bigaragara ko hakorerwa ikigo gishinzwe ubwishingizi.

Isoko rinini cyane, bigaragara ko ari iry'icyerekezo, kandi kuri buri muryango hakaba hari icyapa cyerekana ibihacururizwa, imbere hakaba hari imodoka iparitse, hakurya hakagaragara imisozi bigaragara ko hari kuva akazuba, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Isoko ubona ko harimo ibyo kurya bitandukanye, aho hagaragaramo inyanya ibitunguru, amashu, amakaroti ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba harimo n'abakiriya bagiye kubihaha ndetse hagaragara n'andi mazu akorerwamo ubucuruzi, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Inzu bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho bigaragara ko aho hantu hakorera ikigo gishinzwe utanga serivisi za MTN, akaba ari ukukwereka uburyo ushobora kwishyura ukoresheje uburyo bw'iyo sosiyete y'itumanaho ya MTN.

Akazu kabugenewe bigaragara ko gakoreramo umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN mu ndimi z'amahanga. Bikaba bigaragara ko yicayemo imbere. Iruhande rwako hakaba hari abana batoya bari kugenda, hakurya hakagaragara n'andi mazu y'ubucuruzi atandukanye.

Telefone nini ngendanwa bigaragara ko hari umuntu uyifite w'umusore, akaba afite n'igikapu ku nda, aho bigaragara ko ari gukoresha serivisi za sosiyete y'itumanaho ikora mu Rwanda MTN yohereza amafaranga.

Akazu kabugenewe ubona ko gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda mu ndimi z'amahanga bita emutiyene, aho bigaragara ko hicaye umuntu ari gutanga serivisi z'iyo sosiyete, ikirango cyabyo bikaba ari umukara, umweru ndetse n'umuhondo. Hakaba hari n'abantu bari kwaka serivisi zitangwa n'iyo sosiyeti, hakurya hakagaragara andi mazu akorerwamo ubucuruzi atandukanye.

Inzu nziza cyane, ubona ko yubatse neza, ikaba ifite imbuga ngari itatse, ikaba bigaragara ko iyo nzu iherereye muri Kanombe, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu ubona ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho hagaragaramo aho abantu baruhukira, hakaba ari igitanda gishashe neza cyane, bikaba bigaragara ko iyo nzu irimo n'itara riri kwaka.

Inzu nini cyane y'icyitegererezo, ubona ko yubakanye ubuhanga buhanitse, aho hari umugabo uhagaze imbere yayo ndetse bikaba bigaragara ko iyo nzu iherereye muri Kigali Kimironko, ikaba ikodeshwa ibihumbi mirongo, magana ane ku kwezi, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ibyumba bibiri byo kogeramo.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho hagaragara ku irembo ryayo rikinguye kandi hakaba hari umuntu inyuma, iyo nzu bikaba bigaragara ko iherereye muri Kigali i Kanombe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'ibyumba bibiri byo kongeramo.

Inzu zitangirwamo serivise itandukanye, aho kuri buri nzu hari icyapa cyerekana ibikorerwamo ndetse ku mpande zayo hakaba hari n'ibiti binini bikuze cyane bikikije umuhanda, bikaba bigaragara ko akayira gaturanye n'umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga hari abanyamaguru bari kugendamo.

Inzu mboneberabyombi bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'Igihugu zitandukanye, aho hagaragaramo n'umukuru w'Igihugu cyacu perezida Paul Kagame. Bikaba bigaragara ko ari mu kiganiro. Hakaba hari n'abantu baje muri icyo kiganiro, hakaba hari n'ibyapa byerekana ibyo barimo.

Isoko nini cyane bigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye, aho ubona ko higanjemo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya bikaba bitondetse ku murongo. Hejuru hakaba harimo amatara yaka umweru.